Abagabo babiri, bahetse amapombo bari gutera imiti, bambaye imyenda isa bambaye amakoboyi y' umukara bambaye bombi n' utugofero tw' umweru, bombi bambaye n' amashati y' ubururu bari gutera umuti mu myaka yabo, kugira ngo ubusimba butayona.

Umugabo wambaye ibisarubeti by'umuhondo n'ishati y'umweru, nazaga mu ntoki , yambaye n'ikigofero bigaragara ko agiye gutera umuti imyaka ye, imyaka iteye umuti yera neza ikagira uburumbuke.

Ifumbire ni ryiza cyane aho umuntu ahinze adashyizemo ifumbire y' imborera ntabwo yeza, imyaka irarumba. Ingorofani nini zirimo ibishingwe, bisa naho babijyanye mu murima, kugirango batere imyaka yabo kugira ngo izere neza.

Amacupa meza atondekanye, amacupa ane, y'ubwoko butandukanye, wasanga ari amacupa y'imiti yo gutera mu myaka. Harimo n'imibirikira muri ayo macupa, imibirikira idasa ebyiri y'umuhondo indi ebyiri y'ubururu.

Ubuhinzi buteye imbere, umugabo ahetse ipombo agiye gutera umuti mu myaka, imyaka iyo itewe umuti yera neza ikabyara umusaruro ushimishije.

Umugabo uhagaze mu murima we, wezemo amashu ahagaze ari kuyareba ko yeze , yambaye isarubete y'icyatsi n'ingofero y'umutuku, asa naho aje kureba ko yeze ngo ayace.

Imvaruganda y'umweru iri mu mufuka bayita ire. Ire niyo bashyira ku myaka, iyo bamaze kuyibagara bayishyiraho kugira ngo ikure neza ibyibushye.

Imiti abantu bifashisha mu gutera mu bishyimbo, cyangwa izindi mbuto zose zitandukanye, imiti iyo uyiteye mu myaka, imiti yica udusimba, nuko imyaka ikera neza .Imiti ikunze kuboneka ahantu henshi ku isoko.

Imifuka itondekanyije irimo ifumbire bita Ire, Ire ni nziza cyane iyo uyifumbije imyaka izamuka vuba, igashisha ikabyara umusaruro ushimishije.

Imvaruganda ni nziza cyane iyo bayishyize ku myaka yera byinshi, abagabo babiri bafashe imvaruganda mu ntoki bari gushira ku myaka kugira ngo izere neza maze babone umusaruro ushimishije.

Mu buhinzi busigaye burakorerwamo ibintu byinshi cyane, abo abantu bahetse ikintu cy'amapombo, umwe ahetse pombo y'ubururu, undi ahetse ipombo y'umuhodo, agiye gutera umuti mu myaka yabo kugira ngo ubukoko butayangiza.

Gutera umuti n'ibintu bikorwa n'abahinzi bose, kuko imyaka isigaye irarwara, no gufumbira imyaka udafumbiye ntacyo wabona, imyaka isigaye igira uburwayi, kandi bagateramo imiti kugira ngo uburwayi.

Ibasi yuzuyemo isosi ifite ibirungo byinshi ibirungo by'umuhondo n'umutuku. Isosi iraryoha iyo uyisutse ku muceri cyangwa ku mutsima iraryoha cyane abantu barabikunda.

Amafi abiri arambitse asa naho yapfuye bavuye kuyaroba, agira inyama nziza cyane araryoha abantu bayakunda kurusha izindi nyama.

Ifi nziza cyane iri ku kintu, isa n'aho ari isaniye. Ifite uburyohe, kuko bayishyizeho ikirungo cy'umutuku. Ifi ziraryoha cyane, abantu barazikunda, kuko umunsi ku undu, abantu baba bari guhaha amafi.

Ibiryo bifite isosi irimo ikirungo cy'umutuku biri mu gisorori kinini. Biraryoha cyane kuko umuntu iyo abiriye agira apeti. Babimena hejuru y'umuceri cyangwa umutsima. Biraryoha cyane abantu barabikunda.

Amafi ni meza cyane araryoha, akunzwe n'abantu benshi, agira inyama zisumba izindi nyama, kuko yo akungahaye kuri vitamini, abantu barayakunda, akijije abantu baturiye ibiyaga, kuko abaha amafaranga.

Isambaza ni mu bwoko bw'amafi, ariko matoya iyo bayakuye mu kiyaga cyangwa mu cyuzi bamanza bayanika akumuka bakabona bakayakawusha mu mavuta, araryoha abantu barayakunda cyane.

Ifi ziteguye neza, hejuru yazo bakekeyeho imbuto, bita ironji, bashyizeho n'icyatsi gihumuza ibiryo bita Te, ifi ziraryoha cyane abantu barazikunda.

Ifi zikunda kuba mu mazi, uyikuyemo ukayishyira hejuru nta minota myinshi yamara idapfuye, zikunze kuba mu amazi niho ziterera amagi, nuko zikororoka abantu bakazaza kuziroba zikabateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imifuka nyinshi yuzuyemo ubwoko bw'amafi atandukanye. Amafi ni meza cyane aho aba yuzuye mu masoko yose, ariko abantu bakayagura agashira. Buri gihe amasoko akaba yuzuyemo amafi, abantu bakayagura agashira. Amafi barayakunda kuko araryoha.

Amafi atatu arambitse ku isiniya , asa n'aho aribwo avuye mu mazi, kuko aracyatose . Ntabwo bari bayakarira, cyangwa ngo bayakawushe mu mavuta . Amafi , araryoha . Abantu benshi barayakunda.

Isambaza ziraryoha zigira intungamubiri nyinshi ziri mu bwoko bw'amafi kuko amafi ni meza cyane abantu baragakunda kuko araryoha akagira n'ubuzima bwiza.

Mu masoko yose bakunze gucuruza amafi, Amafi asa nkaho akawushije mu mavuta, basizeho n'ibirungo ari ku isoko abantu bararayakunda kuko araryoha nanjye ndayakunda.

Ubwato ni bwiza cyane bwambutsa abantu amazi bakagera hakurya. Umuntu yicayemo afite ingashya arikugashya kugirango yambuke rusa n'ubururu mu nda, inyuma ...................

Amafi ni meza cyane atunze abantu benshi baturiye ibiyaga bakora umwuga w'uburobyi. Iyo bavuye kuroba bakayafata bayagurisha amafaranga, bakarushaho kwiteza imbere mu ngo zabo.

Inyama y'ifi ibaze isa neza impande yazo hariho amacunga akebyemo ibice bibiri. Inyama y'ifi imeze neza kuko ifi iraryoha cyane kurusha inyama igira vitamini nyinshi.

Amafi ni ikiribwa cyiza kigira intungamubiri zihagije. Intungamubiri za yo ziruta izo mu nyama. Abantu barazikunda, kuko uziriye agira ubuzima bwiza.

Amafi abiri barambitse wagirango ngo bayakawushije mu mavuta, bayasizeho ibirungo bameze neza, amafi araryoha abantu barayakunda kandi atanga n'amafaranga menshi.

Amafi ni meza, akunzwe ku masoko yose, kandi nta muntu n'umwe udakundaga ifi. Ifi ziraryoha kandi zigiraga intungamubiri nyinshi, abantu barazikunda kuko ziraryoha.

Amafi atetse neza ari ku isiniya, yasizwe ibirungo, byiza bakekeraho hejuru n'imbuto. Amafi ni meza cyane , kuko agira intungamubiri nyinshi , kuko, arusha inyama zisanzwe vitaminini ,

Amafi ni meza cyane. Amasoko yose aba buzuyemo amafi. Abantu urujya n'uruza rw'abantu baba bari gushaka amafi ngo ruyagure, kuko amafi arakunzwe cyane karuta izindi nyama zose, kubera ko agira vitaminini nyinshi kurusha inyama.

Ifi nziza irambitse ku isahani, ku iparato, isa n'aho bayiteye ikirungo gitukura. Ifi ni nziza, iraryoha, iyo waziriye ugira ubuzima bwiza, nta n'ubwo ukunda kurwaragurika iyo wagiye wirira inyama z'amafi.

Iyi fi ni nziza cyane abantu barazikunda, ariko zigira amagufa menshi kandi matoya ,nta mwana wakwirisha ifi abantu bakuru batamukaburiye ngo bajye baramutagonjoreramo amagufu ,amagufa y'ifi ni mato cyane ku buryo wapfa kumira utazi ko igufa warimize rikakwica.

Amafi ari ku isahani y'umutuku, ni meza, asa n'aho aribwo avuye mu mazi, racyatose. Amafi ni meza cyane akundwa n'abatari bake ,agirira umumaro abantu batunzwe n'umwuga w'uburobyi. Ubateza imbere cyane.

Amafi ni meza araryoha, abantu barayakunda ,agira vitamini nziza ,ashanditse ku mugozi kugira ngo abantu baze bayagure.

Unyama z'amafi ziri ku isiniya ziriho ibirungo ziraryoha cyane abantu baziriye bagira ubuzima bwiza kandi bahora batoshye.

Isambaza zuzuye mu mabase ane . Ebyiri z'umutuku n'indi y'icyatsi , n'indi igiye kuba nk'umweru zuzuyemo. Ziri ku isoko abantu barazikunda. kuko ziraryoha. Iyo zivuye mu mazi, babanza bazanika , mbere y'uko bajya kuzigurisha.

Isambaza ziri hasi zirambitse ku byatsi, bifite indabyo z'umutuku, n'amababi yazo n'icyatsi. Isambaza nziza cyane, barazikunda zigira intungamubiri zihagije, abana baziriye bakura neza ntabwo bagira ibibazo by'imirire mibi.

Amafi, amafi ni meza cyane, abantu barayakunda. Ateje imbere abantu batari bakeya, cyane cyane abantu baturiye ibiyaga. Barayaroba bakayajyana mu isoko bakagurisha amafaranga, akabateza imbere mu ngo zabo.

Amafi ni meza cyane, abantu bose barayakunda, araryoha, agira intungamubiri nyinshi, uyariye agira ubuzima bwiza.

Amafi abaze arambitse hamwe, asa naho avuye mu kiyaga cyangwa mu ruzi. Amafi atunze abantu benshi, ari abarobyi babigize umwuga wo kuroba, abateje imbere kuko abyara amafaranga atari make.

Uburobyi ni bwiza cyane buteza imbere abantu bakora umwuga w'uburobyi ingo zabo zikagera ku iterambere rirambye, uburobyi iyo urugo rwawe rurya neza rukarasirana n'imini.

Amafi avuye mu mazi aba atose kugira ngo bayarye bamanza bayanika, bakayakarira cyangwa bakayakabusha mu mavuta kugira ngo nibayateka adatonyokera mu mazi, araryoha cyane abantu baragakunda.

Amafi ni meza cyane ,akunze kuba mu byuzi no mu biyaga ,agira inyama ziryoshye ,agira vitaminini nyinshi ,abantu barayakunda, kandi agira amafaranga menshi ,atunze abantu batari bakeya, baturiye ku biyaga.

Umurima w'ibirayi usa naho weze, inyuma yaho harimo amazu menshi ariko atari manini, yubakishije amatafari ahiye cyane abantu benshi bakunda kubihinga kuko bigiraga amafaranga.

Insina ziteye ahantu impande y'urugo . Insina ni nziza cyane, zera ibitoki, zimwe zera ibitoki ibyo kurya, izindi zikera ibitoki by'imineke, izindi zikera ibitoki byo gukamamo inzoga, inzoga zikundwa n'abantu benshi, aho ziboneka ahantu mu tubari, mu bukwe, ahantu henshi inzoga ni gahuzamiryango.

Amasaka iyo amaze kwera barayasarura ibikenyeri byayo bakabisiga mu murima, bakabitwika cyangwa bakabikoramo ifumbire yo kuzahingisha ibindi bintu bikurikiyeho.

Ibigori ni byiza cyane, kuko abantu barabikunda, bivamo ibintu byinshi: bivamo akawunga, bivamo n'ifu z'igikoma, kandi ifu nyinshi bazigaburira abanyeshuri, za zindi bita akawunga gaturuka mu bigori.

Ibiti byitwa inkarishya n'ibintu byera udutoryi dutoya dusharira, inyuma y'inzu yubakishije amatafari ahiye, inkarishya zivamo umuti abantu barazikunda kuko ziravura.

Ikibuga gisa n'aho giteye pasiparume, kiri imbere y'inzu yubatse neza yubakishije amatafari ahiye, bigaragara ko isuka isa n'aho yari iri guharura, impande yaho hariho n'ururabo rwiza ruteye neza, tugiye hejuru rufite amababi y'umwe n'ayicyatsi.

Ibiti by'intusi z'umweru zigira ibibabi bisa n'umweru kandi ibitabi byabyo haba ubwo babihaguye bakabishinga mu mirima iri kumeramo ibigori kugira inyoni zitabirya, intusi za cyera kandi zivura indwara nk'inkorora zirayivura.

Amashyamba ni meza abyara imvura atanga n'umwuka duhumeka, ishyamba ririmo ibiti biringaniye inyuma yaryo hariho igiti kinini kitamoba amatabi, amashami ni mukara.

Umurima urimo ibirayi bitangiye kuyanga. Ibirayi ni byiza cyane abahinzi bakunda kubihinga kandi byerera amezi makeya biteza imbere abahinzi babihinga kuko bibyara amafaranga menshi.

Ishyamba ry'ibiti, ibiti ni byiza cyane, bikurura imvura, bigatanga n'umwuka duhumeka .Ahantu hari ibiti byinshi, hahora uburumbuke ,kuko ntabwo imvura ibura, igwira igihe.

Insina barazitera zakura zikazana ibitoki, ibitoki ni byiza cyane barabikunda bitanga amafaranga ibindi bakabirya biraryoha cyane.

Umurima w'urutoki. Urutoki ni rwiza cyane rwera ibitoki, kandi ibitoki bigira akamaro kenshi. Babikamamo inzoga cyangwa bakabirya, biraryoha cyane abantu barakunda ,kuko abenshi na benshi bahora bari kujya kubishaka ku isoko.

Igikakarubamba ni igiti abantu bakunze gutera ku rugo. Imbere yacyo hariho inzu yubakishije amatafari ahiye. Gikunze kwifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, kivura indwara nyinshi.

Ibitusi by'umweru bigira ibiti byiza cyane. Ababaji bakunda kubisatura, bigira imbaho zikomeye, hakavamo inzugi nziza kandi zikomeye, abantu bakunze gukingisha inzu zabo.

Abantu iyo bahinze ibishyimbo barabishingirira kugira ngo birande ku biti. Iyo byeze, barabisarura, ibiti bakabisiga bagahambira ibishyimbo, bakajya kubibika, ibiti bakabihambira nyuma.

Abahinzi iyo bahinze bifashisha imishingirizo, kuko ibishyimbo by'imishingiriro nibyo byera neza. Iyo bimaze kwera bakuraho ibishyimbo, ibishingirizo bakabihambira bakabyegeka ahantu bakazongera kubishingiriza, ikindi gihembwe bongeye guhinga.

Umurima w'ibirayi bigiye kwera. Ibirayi ni byiza cyane abantu bakunda kubihinga, kuko iyo byeze biteza abantu batari bakeya imbere, kandi bakihaza mu biribwa, bikunzwe n'abantu benshi kuko hariho n'uduce tudahinga ibirayi, bakajya kubishakira aho babihinga.

Inzu yuvukishije amatafari ahiye ifite urugi rw'ubururu isakaje n'amabati, imbere yayo hari insina ifite igitoki giteye inkingi, igitoki kiraryoha cyane kuko kigira intungamubiri nyinshi cyane.

Intabire itunganyijwe neza bisa n'aho bagiye kuyihingamo imyaka. Iyo abantu bagiye gutera imyaka babanza bahinga intabire bakayitunganya, ibyatsi birimo bakabikuramo, ubwo bakabona ubuteramo imyaka.

Abantu benshi bari guhinga, bambaye imyenda itandukanye. Basa n'aho bari mu ishyirahamwe. Impande yabo hariho inzu isize irangi ry'umutuku. Bambaye imyenda y'amabara y'imihondo n'icyatsi, imituku n'imyeru.

Umugabo ahetse agasero , ari gusoroma icyayi abandi bari ruguru bari kumusoromesha, icyayi ni cyiza abantu baragikunda kandi gitanga amafaranga, ku bantu bagihinga kikabateza imbere mu mibereho yabo ya buri munsi.

Umugore atereye isuka ku bitugu, asa n'aho yishimiye igikorwa cyo kujya guhinga. Akenyeye igitenge cy'umutuku kivanze n'umweru, yambaye n'agashati k'umutuku, ateze n'igitambaro kigiye kuba icyatsi. Guhinga ni byiza, abantu benshi barabikunda.

Voka nziza ziri ku biti byazo, zibereye amaso. Zigaragara ko zisa n’icyatsi, ntabwo zizera ngo zihindure ibara wenda ngo zise n’umutuku. Zizakomeza gusa n’icyatsi, ziracyari ntoya, ntabwo zari zera.

Isoko ririmo amarongi, marakuca, amapera atanditse ku mifungo abantu barayakunda bakunda kuyagura kuko araryoha iyo umuntuntu yayariye aba ariye neza kuko imbuto zivurabindwara nyinshi.

Avoka zisoromye zifite amabara atandukanye zirambitse hasi. Zimwe ni umutuku. Izindi ni icyatsi. Hari n'izigiye kuba nk'umuhondo. Zisa n'aho ari izuba ryazikubise, zigahita zihinduka umuhondo. Avoka ni nziza cyane abantu barazikunda.

Imyembe ni myiza cyane abantu barayikunda, ikunze no kuba ku isoko iyo ihiye isa n'umuhondo, iyo itarashya iba isa n'icyatsi mu nda yayo iyo ihiye iba isa n'umuhondo, kandi iyo bari kuyirya ikibuto cyayo baragita kiba ari kinini.

Umugore ahagaze mu murima we w'umuceri. Umuceri nubwo usa naho uteze neza arishimye kuko ageze ku inyungu yaharaniye mu mibereho ye. Akaba agiye kwiyunga imvune yavunitse kuko agiye kubona iterambere ryinshi.

Ibitunguru, karoti, amacunga, biringanya, biraryoha cyane. Abantu babijyana ku isoko n'abandi bakajya kubigurayo. Abantu barabikunda kuko biraryoha.

Isoko ririmo ibintu byinshi bitandukanye nk'imbuto za marakuja, amavoka, amacunga n'inyanya abantu benshi barabikunda biraryoha.

Imyumbati ni myiza cyane, ikunzwe guhingwa n'abantu benshi, kuko igira intungamubiri nyinshi, bayikoramo umutsima, iyindi bakayiteka, bakayigereka ku bishyimbo.

Imiteja ni myiza cyane barayisoroma bakayirya itariyera cyane kuko iri mu bwoko bw'imboga. Imboga ni ikiribwa kirinda indwara mu mubiri w'umuntu. Imboga barazikunda cyane cyane imiteja kuko ziraryoha.

Imyembe ni myiza cyane. Iyo yeze igira ibara ry'umutuku. Iyo itari yera ikagira ibara ry'icyatsi. imyembe barayikunda cyane cyane abana, iyo bayibonye mu giti bajya kuyiba.

Voka ziri ku matabi yazo. Zimeze nkaho zitari zera, ntabwo zari zaganya kugira ngo bazisorome. Zigaragara ko zizera zisa n'icyatsi, kuko iyo zizera zisa n'umutuku biba bigaragara ku ruhu rwazo.

Ibirayi ni byiza cyane, bikunzwe n'abantu batari bakeya abantu babihingaga bakabyeza bakabipakiza mu mifuka bakabitondeka ku muhanda imodoka zikaza kupakira bakabonamo amafaranga yo kubateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abagabo babiri bahagaze mu myaka umwe wambaye ingofero y'umutuku n'agapira karimo imirongo y'umweru n'umukara n'ikoti ry'umukara, yambaye ipantaro y'umukara umugabo wundi yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara bari kureba imyaka yabo kandi myiza.

Amatunda atukuye, harimo rimwe risatuye . Mu nda yaryo , risa n'umuhondo . Amatunda, araryoha. Agira umutobe uryoshye. Basigaye bakoramo n'imitobe, bakayishyira mu macupa bakayigurisha amafaranga .

Ihene zihagaze hamwe ziri mu kinani, zifite amahembe manini maremare. Ni izo mu bwoko bw'ihene nini ntabwo ari ihene ntoya. Izi hene zifite amabara atandukanye. Zimwe ni imikara, izindi zifite amabara y' umwe mu gahanga, izindi zifite ibara ry' igitaka.

Umugabo uhagaze mu murima w'inyanya yambaye isaruteye umuhondo afite urunyanya rumwe mu ntoki ze kandi izindi nyanya muririma zisa naho zeze kuzigaragaza kugira ngo azisarure.

Isambaza ni nziza abantu barazikunda, zigira vitamini nyinshi. Iyo bazirohoye mu mazi bamanza kuzanika kugira ngo babone uko bazikawusha mu mavuta, babone uko bazigurisha mu masoko.

Umufuka wuzuyemo amasaka. Uri ahantu urateretse, umufuka w'umweru, urarangaye kugira ngo abantu bayabone baze kuyagura.

Amapera ni imbuto nziza cyane iyo zihiye zisa n'umuhodo. Amapera iyo atari yera asa n'icyatsi. araryoha cyane abantu barayakunda kandi no ku isoko akunzwe cyane.

Ibihaza byiza cyane, bitondekanye k'umurongo, bisa naho biryoshye, bifite amabara meza, ni ibibundi kandi ni binini, ibihaza biraryoha abantu barabikunda.

Abakobwa bambaye amajipo asa babiri, harimo umwe wambaye ikanzu y’icyatsi bari gukorera imboga zabo, imboga iyo uzikoreye nibwo zera neza zigatanga umusaruro ushimishije.

Avoka ebyiri imwe irasatuye mo kabiri, indi ntabwo isatuye, zigaragara ko ziryoshe, kuko mu nda yazo n'umuhondo, avoka isa n'umuhondo iba iryoshye, iba ari imbangurire, iba ari imbangurire, iba yaratewe ibanguriye.

Ibishyimbo by'amoko menshi harimo: ibishyimbo bya kivuzo ,byanyiramukara n'ibyumweru harimo n'iby'umuhondo harimo n'iby'umutuku. Ibishyimbo biraryoha cyane cyane ibishyimbo binini bigira isosi nziza abantu barabikunda.

Amateke araryoha. Abantu barayahinga, yamara kwera bakayasarura bakayateka. Hariho ayo batekana ibihu, hari n'ayo bateka bakabanza bayahata. Aya mateke yitwa intangu.

Imyembe ni myiza cyane igira ikibuto kinini bakarya ak'inyuma ikibuto gisigaye bakagita. Imyembe ikunzwe n'abantu batari bakeya kuko iva ahantu henshi, amasoko yose aba yuzuyemo imyembe. Imyembe iyo ihiye imwe iba isa n'umutuku indi iba isa n'umuhondo.

Abagore bahagaze bafite amasuka harimo n'uwicaye. Barishimye cyane bari guhinga. Bameze nk'aho bari guhingira hamwe kugira ngo ibintu bizeramo bazabigabane, cyangwa hari umwe bari guhingira akabaha amafaranga.

Insenda zisa n'umutuku. Urusenda rwitwa kamorari ruratukuye, rwera ari udushogi dutoya. Rwasimbuwe n'urundi rusenda rw'umuhodo, bajya gukamuramo imishongi.

Abagore babiri umwe afashe isuka ahetse n'umwana. Undi arahagaze asa n'ufite ifumbire mu ntoki, yambaye ingutiya y'umuhondo, yiteze n'igitambaro. Guhinga ni byiza abantu barabikunda kuko umuntu iyo yahinze nta bwo yicwa n'inzara.

Inyanya ni ikiribwa cyiza gikunzwe n'abantu benshi. Ifunguro rya buri munsi rigomba kuba ririho inyanya. Inyanya barazikunda bakunda kuzihinga iyo zeze ziba zisa n'umutuku.

Amasaka iyo yeze asa n'umutuku, barayanika yamara kuma bakayabeteshamo ifu bakayinywamo igikoma, haba n'iyo bayinitse bayakoramo imisururu maze bakayinywa.

Umugore wicaye imbere y'ubusitani, yambaye igitenge cy'umuntu, agapira gasa n'igitaka, n'ingofero y'umutuku. hagati harimo ibara ry'umweru, aricaye ari kubireba uko bimeze neza.

Ibirayi ni byiza cyane, iyo byeze barabikura bakabijyana ku isoko cyangwa bakabirya, biraryoha cyane abantu barabikunda, bikunda gukora ahantu henshi, haba mu makwe, haba no mu rugo, haba mu maresitora, ibirayi ni byo bikunze gukoreshwa cyane.

Umuntu wambaye ipantaro y'ikoboyi igiye kuba nka kaki, ahetse ipombo irimo umuti ari gutera umuti mu mbuto, yambaye umupira ufite ingofero, imyaka iyo iteye umuti yera neza ntabyonnyi bizamo.

Ibijumba ni byiza cyane, cyane cyane ibijumba bisa n'umutuku, bigasa n'umuhondo mu nda, bikunze gukundwa cyane ku isoko, kuko babikoramo za biswi, bakabikoramo na za keke, abantu barabikunda.

Inyanya bigaragara ko zahinzwe kijyambere, zitukuye neza nta n'agasimba kazigiyemo zatewe umuti kandi zarafumbiwe neza, ifumbire y'imborera niy' imvaruganda zigira amafaranga menshi niyo mpamvu abantu bazikunda.

Ibirayi iyo byeze barabikura bakabirunda. Babikurira rimwe bakajya kubihunika, cyangwa bakabishyira ku masoko, bakabyazamo umusaruro w'amafaranga. Ibirayi ni byiza cyane, kuko bitezaga imbere abantu babihinga.

Amasaka ni meza abantu barayakunda, agira ibikorwa byinshi. Habaho iyo bayinitse hakavamo umusuru, ubundi bakayabetesha hakavamo igikoma ,ubundi bakayabeteza inzoga z'urwagwa.

Ubuhinzi bw'umuceri buteje imbere abantu benshi, aho abantu bafite ibishanga basigaye barahinga umuceri bose, umugore ari mu muceri we ureze agiye kuwusarura abonemo amafaranga, kandi undi awurye nuko yihaze mu biribwa.

Umuturage uri mu cyayi ari gusorom icyayi ahetse agasero ari gukeba ibyayii ari kujugunya mo. Icyayi ni kiza cyane n'abantu baragikunda kuko kiraryoha, iyo keze abantu biringiye ko bagiye kubona amafaranga ashimishije.

Umugore ari kubagara imyaka ye, kuko imyaka yose iyo wayihinze ari ukuyitaho cyane, kugira ngo itange umusaruro ushimishije, arunamye yiteze igitambaro yambaye n'umupira ugiye kuba nk'igitaka, yambaye n'igitenge kigiye kuba nk'ikijuju.

Umukobwa n'umuhungu bari guhinga, bambaye imyenda itandukanye, umwe yambaye ijakete y'ubururu n'ikoboyi y'umukara, n'ishati y'umweru idakeye, umukobwa yambaye igitambaro mu mutwe n'ishati y'umweru. Yicaye mu mbuto za bo bari kuzuhira.

Ibirayi bir'amoko menshi, haba ibirayi by'umutuku, n'iby'umweru ibindi by'ibibundi n'ibindi by'imirimba, ibirayi ni byiza cyane abantu barabikunda kuko byubaka.

Urukwavu ni agatungo koroheje, keza kabyara rimwe mu kwezi, kakabyarira rimwe ibyana byinshi. Gakunze kororoka, kagira inyama ziryoshye, ziryoshye nk'iz'inkoko.

Abakobwa baricaye bambaye amasarubete y'ubururu bafite imashini, imbere yabo hariho imbuto za pavuro zibari imbere, barikuzireba uko zimeze.

Ibijumba ni byiza cyane, ibijumba nabyo bigira amabara atandukanye n'ubwoko butandukanye, harimo zatura zigira ibijumba by'umutuku, na za nyirawadada zigira ibijumba by'umweru, ibijumba ni byiza cyane biraryoha kandi abantu barabikunda.

Ibihahaza biraryohaha cyane, habaho ibihahaza by'imirimba, ibindi by'ibibundi, hakabaho ibihaza by'amabara, ibindi bikaba iby'umukara binini, bikaba iby'umweru gusa. Ibihaaza ni byiza cyane barabikunda, kuko bigira intungamubiri nyinshi.

Imyembe iri ku biti byayo ntabwo bari bayaha. Imyembe iraryoha cyane, iyo yeze isa n'umuhondo, abantu barayikunda cyane ,kandi abana na bo barayikunda ,ku isoko irakunzwe cyane, igira amafaranga menshi.

Amapera yuzuye ku kibase. Amapera ni imbuto nziza cyane, zikunzwe n'abantu batari bake, kandi zizana amafaranga. Abantu bakikenura mu rugo. Amapera kandi iyo yeze aba asa n'umuhondo, atarera aba asa n'icyatsi.

Igihingwa cy'imyumbati ni cyiza cyane. Abantu baragikunda. Imyumbati, iri amoko abiri . Hari imyumbati y'imiribwa hari n'imyumbati y'umutsima. Imyumbati y'imiribwa, barabanza bakayishyira mu mazi, kugira ngo ubumara buvemo. yamara gutundama, bakayanika bakazakuramo umutsima .

Ibirayi byuzuye mu mifuka impande yabyo hariho abantu bahagaze basa naho ari bo bamaze kubipakiramo. Ibirayi ni byiza abantu barabikunda kuko biraryoha, niyo mpamvu abantu bakunda no kubihinga cyane, ibirayi byerera amezi abiri n'igice cyangwa atatu.

Imbata ni nziza cyane zimeze nk'inkoko. Zitera amagi bakayarya, andi zikayararira, akavamo imishwi. Nk'uko inkoko zibigenza amagi y'imbata araryoha kandi na zo zigira inyama ziryoshye.

Umugore wunamye yambaye igitenge cy'amabara, amwe y'icyatsi n'andi agiye kuba umweru ndetse n'umukara ,arunamye yambaye igitambaro cy'mutuku, impande ye hari umugabo n'ubundi wambaye ingofero y'umweru, n'umwenda w'umutuku n'umukara ameze nk'uri kwanika insambaza hasi.

Amashu ni mu bwoko bw'imboga ,araryoha cyane, abantu benshi bakunda kuyahinga kuko azana amafaranga, kandi yongera imirire mu ngo zabo, amashu araryoha.

Inyanya ni nziza cyane abantu barazikunda, ibiryo byose batetse bagashyiramo inyanya biryoha bitera apeti kandi bikajyana vitamini nyinshi mu mubiri. Iyo watetse inyanya uba watetse indyo yuzuye.

Umugore uri guhinga yambaye igishura cy'umukara n'umuhondo bivanze, yambaye n'agapira karimo umutuku n'umweru, yiteze n'itambaro cy'umukara ari guhinga intabire kugirango ngo ateremo imyaka.

Abantu bari guhinga intabire mu materasi. Amaterasi ni meza, abantu bayakoresha, bagira umusaruro ushimishije. Amaterasi, iyo uyahinzemo, ntabwo isuri itwara ubutaka.

Abantu barunamye bari mu myaka, basa n'abari kuyikorera neza, kugira ngo yere itange umusaruro ushimishije, iyo uhinze imyaka ntabwo uyitererana, usigaramo uri kuyibungabunga.

Ikawa ni nziza cyane, bayigemura mu mahanga ikazana amafaranga. Umuntu ari gutera urugemwe rw'ikawa yishimye cyane. Afite imisatsi isutse, yambaye ishati y'umweru, n'ikoboyi y'umukara. Inyuma ye hariho abandi bantu bahagaze bari kureba ukuntu ari gutera ikawa.

Voka itatu ziri ku matabi zirenda kwera ariko zisigaje igihe kinini kugira zere. Zisa n'icyatsi ni nziza cyane abantu bazikunda kuko ziraryohaha.

Ihene ni nziza, ni itungo rigufiya. Rikunzwe n'abatari bake rigira inyama ziryoshye. Muri resitora ni zo bakunze gukoresha, abakiriya baza arizo baje gushaka. ziraryoha kuko abantu benshi barazikunda.

Umugore uhagaze mumyaka ye, yiteze igitambaro, yambaye umupira w'umweru, n'undi w'ubururu usatuye, yambaye igitinge kigiye kuba ikijuju, ahagazemo yishimye. Bigaragara ko imyaka ye ari myiza. Guhinga ni byiza bitanga umusaruro.

Ibintu bisutse ku mifuka, bimeze nk’intoryi cyangwa biringanya. Umugore ahagaze impande yabyo, yambaye ishati y’umutuku n’igitambaro mu mutwe, ni nk’aho ari kubireba.

Avoka zitari zera ziri ku biti byazo sikiri imiteja, ziracyasa n'icyatsi. Bigaragara ko izi voka zizasa n'icyatsi zitazasa n' umutuku, kuko iyo zizasa n'umutuku ziba zitangiye kugaragaza ko zizaba umutuku.

Abantu bari mu myaka yabo asa naho bari kuzisarura umugabo wambaye ikobo ry'umukara n'ishati ye ku umwe uvanzemo ubururu n'ingofero afashe ikintu kimeze nk'ikidomo ari gusarurira hamwe ari n nabandi bantu bunamye basa naho kubabaka.

Ubuhinzi bw'icyayi butejeje imbere abantu batari bakeya, aho abantu bari mu mirima w'icyayi bari gusarura ari benshi abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye, imwe y'icyatsi abandi biteza ibitambaro by'umutuku ,ndetse bafite n'amabase bari gusoromeramo.

Ipera ni ryiza cyane riri ku giti. Riracyari ku mashami yaryo rigiye gutukura, hari kubura iminsi mike ngo ritukure. Ipera ni ryiza cyane abantu bararikunda cyane cyane abana. No ku isoko barayakunda kuko umunsi ku wundi amasoko aba yuzuyemo amapera ariko abantu bakayagura bakayacyaha agashira.

Ibirayi ni byiza cyane abantu barabikunda cyane cyane abantu batabihinga kuko bidahingwa ahantu hose. Iyo byeze barabikungura bakabirunda hamwe, bakazana imifuka bakabishyiramo n'uko imodoka zikaza kubipakira cyangwa amagare, bakabikwirakwiza mu turere tudahinga ibirayi.

Umugore uhagaze afite terefone yambaye ishati y'ubururu n'igitambaro cy'ubururu, terefone ni nziza itanga ubutumwa ahantu hose uw'ushaka ukamubonera ku gihe, terefone abantu benshi baharanira kugira telefone kuko n'igikoresho kizageza abantu ku iterambere.

Umukobwa uri ugenda mu muhanda afashe isuka, afashe n'amabase abiri ,imwe y'umutuku indi y'ubururu ,yiteze igitambaro mu mutwe, n'umupira w'umukara n'ijipo y'umukara, asa n'ugiye kuvomerera ahantu bagiye guhinga, kuko ivomereye bigenda neza.

Ubuhinzi bwa karoti butezaga imbere abahinzi babwo. Umugore afashe karoti mu ntoki arishimye cyane. Yambaye ishati y'umutuku n'igitambaro mu mutwe cy'umukara.

Abantu bicaye bari kurenga ibishyimbo mu mifuka, bari impande y'inzu yubakishije amatafari ahiye, basa naho bari kubirenga kugira ngo baze kubihunika.

Inkwavu ni nziza cyane zisa n'umweru ziritonda, zirisha ubwatsi, zirororoka, urukwavu rubyarira ukwezi kumwe kandi rukabyara ibyana byinshi, zigakwirakwira mu baturage.

Amasaka ni meza cyane abantu barayakunda, agira intungamubiri nyinshi. Bayanywa mu gikoma cyangwa mu musururu, iyo bayinitse bayakoramo amamera bagakora n' umusururu.

Indobo iteretse impande y'ibirayi bisutse hasi, irambitseho n'amahema, ihema rigiye kuba umukara, n'irindi rigiye kuba ubururu, aya mahema asa n'aho ariyo yari abitwikiriye, none bakaba babitwikuruye.

Umuzungu urimo kugosora ibishyimbo , yambaye ingofero nini y'umweru. Yambaye n'ishati y'ubururu. Ari kugosorera ku nkoko. kuko imyaka yose iyo bayisaruye, bayibika bamaze kuyigosora.

Hari amoko menshi y'amateke, amateke ya bwayisi, ayinyobera ,hamwe n'ayinahaguzwa ndetse n'ay'andi menshi amateke araryoha, agira intungamubiri nyinshi abantu barayakunda cyane.

Ibirayi ni byiza abantu barabikunda, kuko abantu bakunda kubihinga. Abantu bari gupakira ibirayi mu mifuka basa na ho bamaze kubikura mu murima wa bo. Barishimye, bisa na ho byeze neza, bagize umusaruro ushimishije.

Umuhinzi w'amashu arimo ari kuyakorera kugira ngo azere ameze neza, amashu ni meza cyane abantu barayakunda, yambaye ipataro y'umukara n'umupira w'icyatsi, kugira ngo umusaruro we umere neza, ari kuyabungabunga kugira ngo agire umwuka mwiza.

Umugore wunamye yambaye ijakete y'umutuku ifite ukuboko k'umweru, yambaye igitambaro cy'ubururu, arunamye ari kubagara imbuto ze ziri kuyanga uruyange rw'umweru, zifite amababi amwe y'umuhondo, andi y'icyatsi, arishimye cyane, bisa n'aho ari kubona ko zimeze neza.

Isoko ry'ibitoki ni byinshi cyane, abantu barabikunda kuko biraryoha. Amasoko menshi aba arimo ibitoki abantu barabikunda, kuko biraryohaga cyane.

Igipapayi ni igiti cyiza cyane, igipapayi cyeraho imbuto nziza zivura abantu barwaye, zigira imirire myiza kandi zigatunga n'abantu barwaye indwara zidakira.

Abantu benshi baracucitse bari guhinga mu materasi bari guhinga bamwe hepfo abandi ruguru abandi hagati bari guhinga nk'ikoranabuhanga kuko amaterasi ni meza cyane agira umusaruro ushimishije.

Imodoka y'umweru bita fuso ipakiye imifuka, impande yayo hariho umuntu ufite umutaka wa emutiyene, harimo n'abantu b'abamotari bari ku mamoto basa n'aho bategereje abagenzi.

Isoko ry'ibitoki, ni byinshi cyane biri mu bwoko bw'ibitoki bw'incakara. Incakara ni nziza cyane ziraryoha, abantu benshi barazikunda, kuko iyo uriye incakara uba uriye ibiryo biryoroshye cyane.

Umugore witeze igitambaro cy'ubururu, yikokobetse n'agasharupe k'ubururu, hamwe n'abandi bagore benshi wasanga bari kubagarira imyaka yabo, imyaka iyo uyibagaye irera, kubera yuko uba wayikingurukije ibigunda, igahumeka umwuka mwiza maze ikarumbuka.

Ibirayi biraryoha, bikunze gukoreshwa ahantu henshi. Haba mu bukwe, haba no mu mago, abantu benshi bakunze guteka ibirayi, kuko ni ibiryo biryoha cyane, abantu benshi barabikunda, bizana n'amafaranga ku bahinzi babyo, bibateza imbere.

Amaronji ni meza cyane ni imbuto zikunzwe. Amaronji umuntu iyo arwaye bakarimuha agira morari, akumva agize apeti yo kuba yarya ibindi biryo, bisa naho biba byamunaniye. Ironji iyo rihiye rihinduka umuhondo, no mu nda yaryo iyo bariketse haba hasa n'umuhondo.

Insina bita fiya, igira umusaruro ushimishije. Igitoki cya fiya , kiba kinini cyane . Kandi, gikunzwe ku isoko. Bakirya ari imineke . Ubundi, bakagikamamo inzoga. Fiya, ni insina nziza cyane ntabwo iba ndende, kandi yera igitoki kinini .

Umusaruro w'ibigori ushimishije. Umuntu uhagatiye ibigori avuye kubica, yacuye n'ibicigati byabyo abifashe ku rutugu, yambaye imyenda isa n'igitaka, ni umugabo nta ngofero yambaye.

Inka nziza irabyibushye, ifite uruhanga runini, ifite n'amahembe azareba imbere, ifite ibiguru bibyibushye. Inka ni nziza cyane abantu barazikunda, zigira iterambere mu rugo, kandi zikagaburira abantu inyama ku buryo bushimishije, n'amata ku buryo bushimishije.

Ibigori iyo bigeze igihe cyo kubagarirwa barabikorera bakabishyiraho imvaruganda, kugira ngo bizatange umusaruro ushimishije. umugabo wambaye ishati y'icyatsi n'ikoboyi y'umukara arunamye ari gukorera ibigori bye kugira ngo bizere neza bimuhe inyungu igaragara, inyuma ye hariho abandi babiri bahagaze inyuma ye.

Abagore, abagabo bambaye imyenda itandukanye. Bamwe bambaye imipira y'umutuku, abandi bambaye imyenda y'amabara. Bahagaze hamwe, imbere yaho hariho imyaka ikikije aho bahagaze, hariho n'insina zifite amakoma, indi yo ifite igitoki.

Abantu benshi bahagararanye, abagore n'abagabo. Bamwe bambaye imyenda y'umweru, uwambaye agapira karimo imirongo y'umukara n'umweru, n'ingofero y'umutuku, n'undi wambaye ingofero y'umweru ni'shati y'icyatsi.

Amatunda ni meza cyane abantu barayakunda, ibase yuzuyemo amatunda atari yatukura neza, ibase isa n'ubururu, asa naho bari kugaragaza ko bari ku isoko kugira ngo abantu baze kuyagura.

Abantu b'abagabo bahagatiye ibintu bimeze nkaho ari ibitabo bafite. Bambaye amakoti y'umweru, umwe yambaye ikintu mu mutwe wagira ngo ni igitambaro yizengurijeho, undi yambaye ikoti ry'umukara.

Igihaza cy'amabara gisa naho biryoshye, gifite ibara ryiza kigiye kuba umuhondo, gifite n'amabara y'umukororombya. Ibihaza biraryoha cyane, ku isoko barabikunda.

Inyanya nziza cyane ziraryoha, bazikoramo isosi bakayishyira ku bindi biryo, maze bikaryoha. Abantu barazikunda, kuko nta muntu uteka ibiryo badashyizemo inyanya. Niyo mpamvu abantu bakunda kuzihinga.

Ibibuto bibumbiye mu bwoko bw'intoryi cyangwa pwavuro, bifite amabara y'ubururu, ni roza, barabirya biraryoha, abantu barabikunda bakabijyana ku isoko bakabigurisha amafaranga.

Abahinzi bakunze guhinga imbuto zitandukanye n'imboga zitandukanye. Ibitunguru byeze neza bisa naho babyitayeho, babisaruye bisa n'umutuku. Habaho ibitunguru by'umweru ariko ibi byo ni umutuku. Ibitunguru biraryoha cyane abantu barabikunda.

Umurima uhujwe wezemo ibigori, usa naho uri mu gishanga. Ibigori iyo byeze barabisarura bakabihunika ahantu habugenewe mu nzu z'ubuhunikiro, ibindi bakabihungura bakajya kubibeteshamo agahunga, cyangwa ibikoma byo kunywa, kuko igikoma cy'ibigori kiraryoha.

Abantu babiri bari mu busitani bw'imbuto zabo, umwe n'umugore undi n'umugabo, umugore ateze igitambaro cy'umweru n'igitenge cy'amabara y'umweru n'umuhondo, bari kubagara imyaka kugira ngo imererwe neza.

Abagore n'abagabo bambaye udupfukamunwa, bahagaze mu myaka bahinze. Basa naho bagiye gusarura imyaka yabo cyangwa se bagiye kuyibagara, kugira ngo imere neza.

Ibishyimbo ni byiza cyane barabikunda, biraryohaha cyane. Bigira amoko menshi, hari ibisa n'umuhondo, ibindi n'umweru, ibindi n'umutuku, ibindi bigasa n'umukara. Ibishyimbo bigira vitamini nyinshi mu mubiri.

Ubucuruzi bw'imbuto zitandukanye, amaronji, amapera ari ku mabasi adasa, kamwe gasa n'ubururu akandi gasa n'igitaka arahiye cyane asa n'umutuku.

Ibidodoki ni imboga nziza cyane zo mu bwoko bw'ibihaza. Babitera ku ruzitiro, bikaranda biri kwerekeza hejuru niho biyanga cyane, bigatera ibidodoki byinshi. Biraryoha kandi bivura indwara nyinshi zitandukanye zo mu nda.

Amapera agiye kwera akiri ku biti byayo, asa n'aho ashigaje igihe gito ngo atukure, kuko iyo yeze ahinduka umuhondo, cyane mu nda hayo hakaba umutuku. amapera araryoha cyane, kandi abantu barayakunda.

Imyumbati ni igihingwa gikunzwe n'abantu benshi kigira umusaruro mwinshi, kandi gitunze Abanyarwanda batari bake. Havamo ifu bakoramo ubugari, ubundi bakayirya bujumba, bakayigereka ku bishyimbo, abantu barayikunda.

Umuntu wambaye ingofero y'icyatsi n'umupira w'umukara, arunamye ari gukorera imyaka ye, ari kuzibungabunga kugira ngo zimererwe neza, ari kugira ngo zitazazamo ibyatsi cyangwa zizemo ubukoko, ari kuzigenzura kugira ngo arebe uko zimerewe, nasanga harimo uburwayi aziteremo umuti.

Umugore wikoreye ibasi y'icyatsi, irimo ingemwe z'avoka agiye kuzitera. yambaye ishati y'amabara y'umutuku avanzemo umukara, agashura kagiye kuba umuhondo. Avoka ni nziza cyane, niyo mpamvu abantu bakunze kujya kuzitera ziraryoha cyane.

Umugore uhetse umwana akindikije igitenge, yambaye umupira w'umweru uvanzemo ibara ritambitse ry'umukara, n' igitambaro cy'umweru mu mutwe, Ahagararanye n'undi ufite ibisheke, asa naho ari kubigurisha. Ibisheke ni byiza cyane biraryoha, abantu benshi barabikunda.

Ipapayi ni imbuto nziza cyane ku bantu barazikunda kuko abantu b'abarwayi nizo bakunze kubagurira, zifasha abarwayi kumera neza kuko zivura mu nda, ipapayi n'imbuto ikunze kwera isa n'umuhondo, ipapayi ntabwo zari zera neza kuko ziracyasa n'icyatsi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ingofero y'ubururu ifite urugara mu maso, impande ye hariho amazu yubakishije amatafari ahiye asakaje amabati. Inyuma y'iyo nzu hariho ibiti byinshi bigandaye inyuma y'iyo nzu. Guhinga ni byiza cyane bikiza abantu.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza cyane kiraryoha, kigira intungamubiri nyinshi ,havamo amavuta ubundi hakavamo amafu yo gushyira mu biryo.

Ibitoki bigira amoko menshi atandukanye hariho ibitoki bimwe bimeze nk'inkashi ibindi by'inyamunyu ibindi by'umukara ibindi bya gisubi bishya bikaba umuhondo.

Ihene ifite amabara y'umweru n'umukara ihagaze imeze neza, ihene ni nziza cyane igira inyama ziryoshye, abantu barazikunda muri resitora.

Abantu benshi wagira ngo ni ishyirahamwe bari gusarura, bikoreye imisaruro ku bitebo no ku mabasi, bambaye imyenda itandukanye, hari n'iy'imituku ifite amabara, harimo abambaye n'udupira dufitemo imirongo.

Isoko ririmo imbuto z'intoryi, puwavuro n'inyanya, inyanya n'intoryi na puwavuro ni imbuto nziza cyane abantu barazikunda kuko ziraryoha zigira amfaranga menshi cyane.

Ubucuruzi bw'inyama, inyama ni nziza cyane abantu barazikunda kuko ziraryoha, hariho n'ikidomori giteretse haruguru yazo n'isiniya iriho inyanya.

Umworozi w'ingurube ari kugaburira ingurube ye, asa naho yishimiye ukuntu ingurube ye iri kurya, ingurube ni itungo ryiza ryororoka vuba, kuko ku mwaka ibyara incuro ebyiri.

Umugore wambaye ibitenge by'umutuku bivanzemo amabara agiye kuba nk'umweru, nta gitambaro yiteze, atereye isuka ku rutugu agiye guhinga, guhinga ni byiza cyane, kuko umuntu ntabwo ahura n'inzara iyo yahinze imyaka ye akayihingira ku gihe.

Umuhinzi usa naho yishimye ahagaze mu murima we w'inyanya afite inyanya mu ntoki, afite na zaga mu ntoki, yambaye agapfukamunwa bigaragara ko yishimiye umusaruro we kuko agiye kuwusarura akazajya kugurisha, amafaranga akikenuza mu bibazo bya buri munsi.

Abantu bahagaze mu busitani bafite ibitabo bari gusoma, harimo umugabo ufite igitabo wambaye ishati y'umweru n'ingofero n'ipantaro igiye kumera nk'ifite ibara ku kuguru ry'umweru rivanzemo n'umutuku.

Ubucuruzi bw'amaronji, amaronji yuzuye ku ibase y'umutuku, ahiye neza cyane, asa n'umuhondo, amaronji araryoha cyane, abantu benshi barayakunda, kuko ku isoko aba yuzuyemo, kandi abantu bakayagura bakayamara.

Voka ziri amoko menshi, hariho voka z'imituku zigiye kuba nk'umukara, iyo uyisatuye igasa n'umuhondo mu nda, voka ni ikiribwa gikunzwe cyane ku isoko, cyane cyane bakunze kuzirya ku biryo.

Amatunda ni meza cyane, hariho itunda rihiye n'irindi ridahiye, hariho n'ururabyo rw'itunda rutari rwazana imiteja, amatunda araryoha abantu barayakunda kandi agira amafaranga, kuko bayajyana ku isoko, kugira ngo amafaranga aravamo abateze imbere.

Avoka ni nziza cyane ikunzwe n'abantu benshi kuko igira amafaranga. Yabonye isoko rihagije kuko basigaye bakoramo amasabune n'amavuta, kandi ikanaribwa ku ndyo, ku biryo byose abantu bariye bagerekaho imbuto za avoka.

Intoryi ni igihingwa kiza cyane gikunzwe n'abantu benshi, kubera ko zibyara amafaranga. Iyo abantu bazejeje bakemura ibibazo byabo, kuko zikunzwe n'abantu benshi, ziraryoha, barazikunda.

Abagore babiri bari guhinga bambaye umwe yambaye umupira urimo uturongo n'igitambaro cy'umutuku n'ingutiya y'ikijuju, undi yambaye isengeri y'umutuku nta gitambaro yiteze.

Intoryi ni igihingwa cyiza cyane gikunzwe n'abatari bakeya. Iyo zeze, bazigurisha amafaranga, agakemura ibibazo by'abantu bya buri munsi. Intoryi ni igihingwa kiryoha cyane kuko abantu barazikunda.

Imyumbati ni myiza cyane abantu barayikunda, bayiteka ku bishyimbo cyangwa bakayinika bakayikuramo umutsima. Umutsima wayo uraryoha cyane bawurisha inyama, cyangwa iyindi sosi y'ibiryo bisanzwe.

Ibirayi iyo byeze barabikura bakabijyana mu buhunikiro, biraryoha cyane bigira vitamini nyinshi kandi bigira n'amafaranga menshi kuko abantu benshi barabikunda.

Ibirayi ni byiza cyane bikungahaye mu bantu, ni ibiryo bikunzwe n'abantu benshi. Ibirayi iyo ubiririye uba wubatse umubiri. Abantu bose barabikunda, abahinzi babyo bibateza imbere, bakabona amafaranga yo gutunga ingo zabo.

Amatunda atari yera asa naho bayarandishije ku biti. Ni meza cyane kandi agiye gutukura, hari kubura igihe gitoya ngo yere. Amatunda araryoha barayakunda, kandi azana n'amafaranga menshi.

Inkoko ni nziza cyane abantu barazikunda, bakunda kuzorora zigira amagi zikagira n'inyama nziza zikora ko ziryoha nk'urukwavu kandi zirororoka cyane kubera ko ziterera rimwe amagi menshi zikayararira hakavamo abashwi.

Ibigori iyo byeze barabisarura bakabishandika, bakabimanika mu nzu zabugenewe zubakiwe guhunika ibigori, iyo bihanitswe mu nzu zabugenewe bigira umutekano ,bikazagira ubuzima ntibinundwe ngo bibore.

Ibigori biri amoko menshi, hari ibigori bisa n'umuhondo, ibindi bisa n'umweru, ibindi bikagira amabara, ibigori by'umuhondo bigira umutsima mwiza bita patejone, uraryoha cyane kuko ugira icyanga cyinshi.

Umusore arunamye yambaye ipantaro n'umupira ugiye gusa n'umuhondo n'umuhondo, yambaye inkweto ari kuzipfundika wagira ngo zigiye kuvamo.

Soya ni nziza cyane, iyo bazejeje bakazisatagura kugira ngo bazibete neza, zuzuye ku isiniya ari ibisate, soya zivamo ibintu byinshi bitandukanye ari amavuta, ari n'amafu, niyo mpamvu abantu bazikunda, ziraryoha kandi zigira vitamini nyinshi.

Umugore ari kugosora amamera. Amasaka barayika bagashyiramo itazi agahinduka amamera, avamo umusururu. Umusururu, uraryoha cyane . Ukunze gukora no mu ubukwe ,cyangwa bakawupima bakawucuruza mu tubari abantu bakawugura

Umugore wicaye yambaye umupira w'ubururu, yiteze n'igitambaro cy'umuhondo, yicaye imbere ye hariho imifuka irimo ibishyimbo, bimwe bifite amabara y'umweru n'umutuku, ibishyimbo biri mu mifuka y'imyenda.

Soya itumbitse iri kumera kugira ngo bayitere neza, iyo imyaka babanje bayitumbika ikabanza yazana imizi, iyo babiteye ni ho imera neza ntihagire ibiherayo. soya ni nziza cyane abantu barayikunda kuko igira vitamini.

Ibishyimbo ni byiza cyane, umugore uri gusuka ibishyimbo bisa naho ari kubirenga ngo abijyane kubigurisha, yambaye umupira urimo amabara rimwe ry'umutuku n'umukara, yiteze igitambaro cy'icyatsi.

Ibishyimbo ni byiza cyane bigira amabara atandukanye n'ubwoko butandukanye, udukoko turiho ibishyimbo, bimwe n'umukara, ibindi n'umutuku, ibindi n'umweru, ibishyimbo biraryoha cyane abantu barabikunda, kuko ahantu bose barabikoresha haba mu bukwe, haba mu bigo by'amashuri, haba no mu rugo abantu bose barabikoresha.

Amajyeri atumbitse afite imizi, asa n'aho bashaka kuyatera afite imizi, kugira ngo atazanga kumera, hari imyaka batera idatumbitse ikanga kumera kubera iyo igeze mu butaka igakubitana n'izuba ihita yanga kumera ariko iyo itumbitse iramera.

Amashaza ni meza araryoha cyane, abantu barayakunda. Bakunda kuyarya ari urunyogwe, cyangwa bakayarya yumye. Haba n' iyo bayakaranze bagasekuramo ifu, bakayishyira mu biryo kuko ibiryo birimo ifu y'amajeri biraryoha.

Imishogi y'ibishyimbo isa naho ikiri intonore zirunze ahantu, ibishyimbo babirya iyo bikiri intonore n'iyo byumye, bagakomeza bakabirya.

Amasaka ni meza cyane abantu barayakunda, kuko agira igikoma cyiza gifite intungamubiri, akagira n'akandi kamaro ko gukuramo imisururu, kandi bakayabiteza inzoga.

Ibigori bimanitse ahantu habugenewe, abantu bubaka ahantu ho kumanika ibigori, kuko ibigori iyo bibaye hasi birapfa bikamugwa, iyo ubihinze utarabifashe neza ntabwo bimera.

Kubera ko soya zivamo ibintu byinshi babanza bazisatura, bakanazitonora, kugira ngo bazikuremo ibintu byinshi bitandukanye. Soya ni nziza zirakunzwe, zivamo ibintu bifite intungamubiri ku bantu benshi.

Ibishyimbo byiza cyane. Ibishyimbyo bigira amabara atandukanye bimwe bigira amabara y'umukararaga ibindi bikagira ay'umuhondo ibindi bikagira ay'umweru ibindi bikagira n'ubundi by'amabara avangavanze. Ibishyimbo ni byiza cyane kuko biryoha abantu bakunda kubirya kuko biraryoha.

Ibishyimbo by'amabara ni byiza cyane ,habaho ibishyimbo by'amabara n'ibitari iby'amabara, iby'imituku n'iby'imyeru ariko byose byose ni ibishyimbo biraryoha kandi abantu barabikunda cyane.

Amahundo y'amasaka amwe atukura andi atari yatukura bigaragara ko ari imbuto zitandukanye, hari asa n'umutuku andi asa n'umweru, iyo yeze amwe aba atukuye andi ari umweru.

Ibishyimbo iyo byeze bamanza babirya intonore. Imisozigi y'intono irambitse hasi, nibamara kuzarya intonore, ibishyimbo bisigaye nibyuma bazabisarura, babyanike, babihure, babigurishe, cyangwa babirye byumye.

Umugore ari kugosora imyaka ye ku gakoko keza gafite umuderi ku musozo, umuderi w'ubururu. Imyaka iyo yeze bayihunika, ari uko bayigosoye kugira ivemo imirama. Bamara kuyigosora babanza bayanika mbere y’uko bayihunika.

Ibihwagari ni igihingwa cyiza cyane abantu baragikunda kuko amavuta avuye mu gihowagari akaryoha cyane kurusha ayandi yose, iyo byeze biyanga indabyo zisa n'umuhondo, igihwagari bikunze guhingwa ahantu hatewe izindi mbuto kugira ngo byere neza ahantu hafite ifumbire ihagije.

Imiteja iraryoha cyane, iyo uyiriye uba uriye ibiryo byiza birinda indwara, kuko imiteja iri mu bwoko bw'imboga.

Ubunyobwa ni bwiza cyane, iyo bweze barabukuranga, bakabutonora, imbuto za zo bakazijyana kuzikamuramo amavuta, izindi bakazisekura, bakazikoramo ifu bakayishyira mu biryo. Ibiryo birimo ubunyobwa buryoha cyane.

Imiteja itandukanye hari n'iz'icatsi iz' mihondo n'iz'gurururu zigiraga vitaminini nyinshi zi mu bwoko bw'imboga zigiraga n'amafaranga menshi kuko abantu barazikundaga ziraryohahaga cyane.

Ibishyimbo bigira amabara atandukanye. Ibase yuzuyemo ibishyimbo by'umutuku by'indobanure bitavangiyemo irindi bara habaho n'ibishyimbo by'umukara ibindi byumweru ibindi byakaki byose byose ni imbuto z'ibishyimbo.

Imiteja yuzuye mu gitebo, bayisoromye kugira ngo itarinda yaba intonore, kuko ibishyimbo by'imiteja babisoroma bitari byakururumba, nibwo iryoha, imiteja abantu barayikunda kuko iraryoha.

Ibigori bisharitse ku biti ni gahunda nziza yo guhunika ibigori, ibigori iyo byeze barabitonora bakabipfundika maze bakabimanika ahantu habugenewekugira ngo bitangirika, ibigori ni byiza cyane bikunze kugira akamaro gakomeye ahantu hose.

Ibigori iyo bimaze kwera barabisarura, bakabitonora, bakabipfundikanya, bakabishyira aho bigomba kuba nk'ubuhunikiro bwabyo, ibigori iyo utabifashe neza birafurikanga.

Abagore babiri mu yambaye umupira w'umutuku n'ibitegica umutuku ha nkaho ari guterura igiti uni yambaye igitenge cy'umutuku kirimo amabara n'umupira w'umweru urimo amabara'umukara n'igitambaro cy'umutuku asa naho ari kumanika igiti hejuru.

Umufuka uteretse wuzuyemo ibihwagari. Ibihwagari ni byiza cyane babikoramo amavuta yitwa ubuto. Ubuto buraryoha cyane abantu barabukunda.

Ibishyimbo biri ku nkoko, bifite amabara y'umweru n'ay'umutuku. Ibishyimbo ni byiza cyane biraryoha, abantu barabikunda. Bigira intungamubiri nyinshi, kuko nta biryo warya udatetseho ibishyimbo, ngo wumve birakuryoheye.

Ibigori by'amabara bifite amabara menshi cyane harimo ibifite amabara y'ubururu, bifite amabara y'umuhondo bifite amabara umutuku, bifite amabara y'icyatsi hari ibifite amabara biraryoga cyane bigira icyanga kurusha ibindi.

Ibishyimbo by'umukara byanitse bimeze neza. Hari ibishyimbo by'imikara, hari ibindi bishyimbo bigira amabara, ibindi bigasa n'umutuku, ibindi bigasa n'umweru ibindi bigasa n'umuhondo. Ibishyimbo bigira amoko menshi.

Imifuka itondekanyije yuzuyemo ibirayi, ibirayi ni byiza cyane abantu bakunda kubihinga, bamaze kubihinga byakwera bakabisarura bakabipanga mu mifuka bakabitondeka ahantu nko ku muhanda, imodoka cyangwa amagare akaza kubipakira, akabijyanira abantu batabihinga bakabigura.

Umusaruro w'imiteja, aho imiteja irunze hamwe bayisaruye, imiteja bayisarura itari yaba intonore ubwo ari mu bwoko bw'imboga kandi ni nziza cyane, ziraryoha zigira vitamini kandi zirinda indwara mu mubiri.

Soya ni nziza cyane abantu barayikunda kuko ivamo amavuta abantu barya bita soya. Hakavamo n'ifu bashyira mu biryo cyangwa bakayishyira no mu gikoma bakavanga ifu yitwa sosoma. Ibigori ifu n'amasaka babyita sasoma.

Umusore uhagaze yambaye ipantaro y'igitenge kirimo amabara y'icyatsi n'ishati y'igitenge irimo amabara y'umweru n'umutuku, hagati ye igisamato cy'ubunyobwa asa naho avuye ku ziba ari kureba nabi arakaye.

Imifuka myinshi itondekanye, isa n’aho irimo imvaruganda. Iruhande yayo, hariho umukobwa wicaye, yambaye agapira k’umweru n’ijipo igiye gusa n’igitaka. Ari kureba, ko ari nziza kugira ngo azaze kuyigura.

Umukobwa upfukamye imbere y'ibase irimo ibishyimbo. Yambaye umupira w'umuhondo arishimye ari guseka. Wagira ngo ari guteramo umuti kugira ngo bitazamungwa.

Imiteja ni myiza cyane abantu barayikunda, kuko iyo uyiriye uba uriye ibiryo bifite intungamubiri zihagije, imiteja igira n'amafaranga barayikunda ku isoko, kuko abantu benshi baza bari kuzishaka.

Ibishyimbo biri ku nkoko, abantu bari kubirobanuramo ibipfira, kugira ibisigaye, bisigare ari bizima. Iyo ugiye gutera ibishyimbo, Umanza warobanura cyangwa waba ugiye no guteka ukumanza warobanuramo amabuye.

Umugore uhagaze impande ye hari isafuriya, isafuriya irimo amasaka. Yambaye ibitenge, yambaye n'igitambaro mu mutwe gisesuye mu bitugu cy'umweruru. Amasaka ni meza barayakunda avamo igikoma.

Ibishyimbo byuzuye mu mifuka bifite ibara ry'umutuku ni byiza cyane barabikunda kuko bigira intungamubiri nyinshi. Nibyo biryo bisakaye mu gihugu abantu baba bashyira imbere.

Abagore babiri bafashe intara bari kugosora. Undi uri hagati ya bo ari gukoramo, ari kubereka ibara rya byo. Ndetse bisa n'umweruru biri ku nkoko zibohesheje imigano.

Amajyeri iyo yeze, bayasoroma ari urunyogwe, cyangwa bakayareka akuma bakayahura bakayakoramo amajyeri bakayashyira ku isoko , andi bakayarya . Ay' urunyogwe niyo aryoha cyane. Abantu barayakunda cyane, kuko ikiro cy'amajyeri y'urunyogwe kirahenda kurusha ayumye.

Imifuka yuzuyemo amasaka, ubururu n'ingano mu mifuka itandukanye , harimo udufuka tw'umweru hamwe nak'umuhondo nak'cyatsi, bisa naho ari ku isoko kugira ngo abantu baze guhaha.

Ibishyimba byiza cyane byuzuye ku gakoko bifite amabara atandukanye, harimo ibishyimbo bisa n'umuhondo, ibindi bisa n'umutuku, ibindi bifite amabara, biraryoha cyane abantu barabikunda, bigira vitamini nyinshi kuko byubaka umubiri.

Ubunyobwa budatonoye, bakimara kuva kubukura ni bamara kubwanika bazabutonora, impeke zabwo bazigurishe cyangwa bazisekure havemo ifu, cyangwa babujyane ku ruganda bakuremo amavuta.

Imbuto ziri kumerara zifite imizi, basa naho bazinaje, kugira ngo babone uko bazitera zimaze kumera. Imbuto nyinshi iyo baziteye zitinyitse, nta bwo zimera.

Ibigori bimanitse ahantu habugenewe. Ibigori iyo byeze barabipfundika, bakabimanika ahantu habugenewe, kugira ngo bitangirika. Iyo biri hasi birafurikaka cyangwa bikabora, bikagira agahumuro kabi.

Amoko y'ibishyimbo atandukanye arambitse buri bwoko ukwako harimo iby'amabara, harimo iby'umuhondo, harimo iby'umukara, n'iby'umutuku, harimo n'ibindi bigiye kumera nk'icyatsi. Ibishyimbo ni byiza cyane barabikunda.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza cyane, kigira vitamini nyinshi, kandi bazikamuramo amavuta azwi nk'ubuto, kandi iyo zeze barazisarura bakazirunda hamwe, maze bakazitonora bakazisekura.

Umugore wunamye, yambaye ipantaro y'ibitenge, yifubitse n'ikindi gitenge, gifite amabara y'umweru n'umutuku, nta gitambaro yiteze, ari kugosore ibigori.

Isoko ry’ibishyimbo bifite amabara atandukanye, harimo ibifite amabara y’umweru, ibifite amabara y’umutuku, n'ibifite amabara y’umuhondo, n’ibifite amabara y’umukara.

Soya zuzuye ku nkoko, zigaragara ko zumye . Azazijyana kuzibetesha bazikuremo ifu , cyangwa bazijyane ku ruganda kuzikamuzamo amavuta . Amavuta ya soya, araryoha cyane.

Ibigori ni byiza, iyo byeze barabisarura bakabishandika, bakabijyana kubihunika ahantu habugenewe, ibigori n'ikintu gikunda kubungwabungwa neza, kuko bikunze gufurikanga maze bigasharira.

Ikiganza kiriho ibigori n'amasaka bisa n'aho bari kubirobanura, kugira ngo batoranyemo ibizima, iyo bagiye kubitera babanza barobanuramo ibipfira, ibizima akaba ari byo bajya gutera.

Abakobwa babiri, bambaye amapantaro bafashe intara bari kugosora ibishyimbo, aha imbere yabo hariho ibishyimbo biri hasi n'ibyo bari kuyoboraho n'ibyo bari kugosora, umwe yiteze igitambaro undi ntacyo yiteze, yambaye isengeri y'umutuku undi yambaye agashati k'umweru.

Ingano ni igihingwa cyiza cyane iyo zeze barazigesa bakazanika, bakazihura, barangiza kuzihura bakajya kuzibeteshamo amafu, izindi bakazihunika, izindi bakazigurisha.

Umugore wunamye afite igisorori yunamye hejuru y'ikigunguru gisa naho kinrimo ibiryo wagirango umuceri arigiye gutahura nk bigaragara ko ibiryo bihinga.

Amasaka iyo yeze barayahanguza cyangwa bakayagesa, bakayahura, bakinikamo amamera avamo umusururu, bakayakoramo amafu yo gukoramo ibikoma byo kunywa. Igikoma cy'amasaka kigira intungamubiri nyinshi.

Imifuka y'amabara asa n'umutuku n'ubururu bwuzuyemo amasaka meza cyane, abantu barayakunda kuko avamo igikoma, umusururu ndetse akabyara n'amafaranga menshi.

Umugabo yikoreye igifuka gipakiyemo ibishyimbo, bisa naho bitari byuma bikiri intonore, ibishyimbo ni byiza cyane babirya ari intonore ubundi bakabirya byumye, ibishyimbo bigira akamaro gakomeye cyane, kuko ahantu hose barabikoresha.

Imiteza ni myiza cyane, iri mu bwoko bw'imboga kuko irinda indwara mu mubiri, ibitebo byuzuye imiteja bisa n'aho bayisaruye mu murima wayo, kugira ngo bayijyane ku isoko cyangwa bajye kuyirya.

Inyama z'ingurube zikunzwe cyane kuko bakunze kuzirya ari benshi, bazitekamo akabenzi bakazijyana no mu y'andi masoko kuko ziraryoha cyane, abantu barazikunda.

Inka imaze kubyara ihita irigatira inyana yayo. Iyo itayirigatiye ntabwo iyonsa irayanga. Inka ikimenyetso kigaragaza ko ikunze inyana ya yo, iyo imaze kuvuka, ihita iyirigatira.

Inka ni nziza cyane iyo zirwaye barazivura cyangwa bakazikingira kugira ngo zitarwara, barayifashe kugira ngo bayitere umuti veterineri na nyirayo nibo bayifashe.

Umugore n'umugabo bambaye amataburiya y'umweru bahagaze imbere y'inzu, imbere y'inyubako yubatswe isakaje imbaho z'umukara kuri iyonzu hari ijambo boroke bameze nk' ahari ari abaveterineri.

Amagi ni meza cyane, ari mu bikoresho byabugenewe bitwara amagi, amagi uyariye ugira ubuzima bwiza, kuko abana nabo basigaye bararya igi rya buri munsi, kugira ngo batarangwa n'imirire mibi.

Inka nyinshi ziri murwuri zirikurisha izifite ibara ryiza n'ibihogo hari nizifite ibara mugahanga ry'umweru. Inka ziteje imbere abantu benshi kuko zigira umusaruro ushimishije.

Ingurube nziza cyane isa nk’aho ikiri ntoya itari yabyara, ingurube isa n'umweru, ifite amatwi atendeye bigaragara ko izaba nini kuko ari ingurube ndende kandi ikaba itohagiye.

Ikiganza cy'umuntu kiri kunywesha umuti mu ipombo agiye gufuhira inka, inka zikunze kuribwa n'udusimba bita uburondwe, inka nziza cyane iryamye ,yibereye mu kiraro cyayo, kandi ifite ibara ry'ibihogo.

Umugore usigatiye ihene. Asa n'aho ayishimiye, ari kuyimenyereza kugira ngo ijye iramukunda, ahogiye hose ijye iramukurikira. Itungo riramenyera rikaba inshuti y'abantu. Ihene ni nziza, iraryoha kandi abantu barazikunda, kubera zizana amafaranga.

Ingurube ni nziza, ibyara ibyana byinshi icyarimwe kandi ikabyara kabiri ku mwaka. Ni yo mpamvu ingurube ziribwa cyane kandi zigakomeza kugumaho. Ingurube barazikunda ,buri munsi barya ingurube zitari nkeya ariko ntizishire, kubera ko zororoka cyane.

Ubworozi bw'inka butejeje abantu benshi imbere, hari inka nziza cyane bita ikibamba. Inka ihagaze ifite ibara ry'umweru, ku mugongo ikagira ibara ry'umukara, mu maso ikaba isa n'umweru, bayitaga ikibamba. Igiraga umukamo mwinshi cyane.

Veterineri ari kuvura inka iri mu kiraro, ifite amahembe maremare, ifite uruhu rw'ibihogo, veterineri wambaye isarubiti y'icyatsi n'igitambaro cy'icyatsi, ari kuyivura. Inka zikunze kugira indwara nyinshi, niyo mpamvu bakunda kuzivura, ndetse bakanazikingira.

Inkoko nziza cyane zihagaze impande yazo hariho ihene, hariho n'ikiraro cyubakishije ibiti, bishobora kuba ari ikiraro cy'ihene, kuko hirya harimo ihene z'umukara.

Abagabo babiri bahagaze, umwe ahagaze mu muryango w' inzu yubakishije amatafari ahiye. Hagati yabo hicayemo umugore na we wambaye ishati y'ubururu, barishimye cyane bafite morari.

Inka nyinshi zarorerwa mu biraro kuko kuragira bitemewe. Inka iri mu kiraro isa n'ibihogo iri kumwe n'umushumba wayo yambaye igisarubeti cyicyatsi.

Inka iraryamye, ifite ibara ry'ibihogo, iri kumwe n'umushumba wayo, wambaye isarubeti y'icyatsi, arishimye cyane kuko inka ni nziza cyane ifite n'iherena. Inka igira umusaruro ushimishije.

Inka ifite ibara ry'ibihogo, ifite amahembe atari maremare cyane, iri kureba, ifite igihanga gitoya, ikagira igihimba kigiye kuba kinini, ariko mu matako yayo ntabwo ibyibushye.

Inka iri mu ruhongore rwayo, umuveterineri ari kuyitera urushinge, yambaye n'iherena ku gutwi. Ifite ibara rimeze nkaho ari isine, ifite ibara rigiye kuba umweru ku maso.

Udushwi twinshi dusa n'aho ariho tuvuye mu magi, turahagaze turasa, dusa n'umweru. Utu dushwi iyo turi kumwe, hejuru ibisiga biba biri kuducunga kugira ngo bize gutoraguramo tumwe biturye. Ibisiga bikunda kurya imishwi.

Inka zo mu bwoko bw'ikibamba, ikibamba kigira ibara ry'umukara n'umweru, zigira umukamo ushimishije, abantu baraziragiye mu kinani kirimo ubwatsi bwiza kandi buryoshye ,kugira ngo zikamwe neza.

Inkwavu ni itungo ryiza rikunze kororoka. Urukwavu rubyarira ukwezi, kandi rukabyara ibyana byinshi. Urukwavu kandi nta bwo rurushya kurworora, rwiirira ibyatsi, kandi nta bwo rukunze gutera amahane.

Amagi ni meza cyane. Ari ku isoko, ari mu bikoresho byabugenewe bayaterekamo kugira ngo atangirika, kugira ngo abantu baze kuyagura, araryoha, abantu barayakunda cyane. Uwayariye agira ubuzima bwiza.

Umuntu wambaye agapfukamunwa, wambaye n'isarubeti igiye kuba ubururu, yambaye na ga mu ntoki, ahagaze impande y'ikiraro kirimo Inka isa n'ibihogo. Agiye kuyireba uko imeze, ishobora kuba irwaye.

Umugore uhagaze impande hari akadomora ka cumi n'atanu, n'indobo y'umutuku, n'ibasi y'ubururu, impande ye kandi hari ihene, imwe ibumoso indi iburyo zihaze zisa n'aho zivuye kurisha. Ihene ni nziza cyane barazikunda zigiraga inyama ziryoshye.

Abantu baremura mu biraro by' inka. Inka ni itungo rikunzwe n'abantu batari bakeya, aho buri wese yumva ashaka kuzorora. Umwe ari hasi mu kiraro, undi ari hejuru ari kumwuriza, amufashe akaboko ngo avemo.

Ingurube eshanu ziri kurya mu kiriro cyazo. Ziri kurya zose ziri kurira mu kintu kimwe. zirabyibushye ziracyari ibyana, bisa naho ariho zicutse zivuye kuri nyina.

Inka ni itungo ryiza rikunzwe cyane, umugabo uhagaze yambaye itaburiya y'umweru, asa naho ari gutera inka intanga, inka zitewe intanga zibyara inyana nini cyane.

Inyaka yinaje iyo imaze kumera, niho bayitera neza bizeye neza ko izamera, tuyisutse hasi wagira ngo irinaje ifite imizi, yajya guterwa ahantu, babanje bahahinga bakayijyanamo soya.

Ingurube iraryamye iri konsa ibyana byayo buricyana kigira ibere ryacyo nta cyana cyonka ibere ry'iyindi buri cyana gifite iryacyo bere. Ingurube ni nziza cyane ziroroka kuko zibyarira rimwe ibyana byinshi kandi zikabyara mu mwaka kabiri.

Inkoko bita dendo, imishwi myinshi y'inkoko za dendo ziri kumwe zisa n'igitaka. Zifite ibitwe by'umweru. Dendo ni nziza cyane, zimeze nk'inkoko zisanzwe, na zo barazirya kandi zitera amagi.

Inka zibyagiye mu kinani zifite amahembe maremare, zimeze nk'aho zihaze kuko ziraryamye nta kibazo zifite. Amahembe yarakuze asa n'aho azisumba.

Ihene nziza cyane zigira inyama ziryoshye, cyane cyane muri resitora, iyo bari kuzotsa usanga abakiriya bashaka kuzirya, ihene iraryoha abantu barayikunda, kuko ifite abakiriya batari bake.

Inka ifite amahembe maremare, asa n’aho agiye kwifunganya agahinduka uruziga. Inka zifite amahembe angana gutya ntabwo zikiboneka henshi, kuko iyo zivutse barayaca, zigahinduka inkungu.

Inka zigira amabara atandukanye. Hari zimwe zigira amabara y'umweru, izindi zigasa n'umukara, izindi zigasa n'ibihogo. Inka zihagaze ari nyinshi, zimwe ni umukara, izindi ni amabara y'umweru avanze n'umukara, ari zo bita inka z'ikibamba. Inka z'ikibamba zigira amata menshi cyane.

Umuntu ahagaze imbere y'inyubako, imbere ye hariho amahene menshi, amwe afite amabara y'umweru, asa naho asigatiye ihene ntoya, izindi zirahagaze ari nyinshi, ihene ni itungo ryiza cyane abantu bararikunda kuko zigira inyama ziryoshye.

Abantu bahagaze basa n'aho bari kuvura itungo rirwaye. Bigaragara ko ari ari inka y'ikivuvu. Inka zigira ubugwayi barazivura, kenshi na kenshi bakunze kuzikingira, kugira ngo zitarwara.

Inka nziza bita ikibamba. Bigaragara ko bayoroye neza irashimishije, imeze nk'aho izagira umukamo ushimishije. Nta mahembe ifite, ni inkungu. Inka itagira amahembe irabyibuha kuko amahembe yonka inka.

Inka y'ibihogo iri mu kiraro cyayo, ifite amahembe manini cyane, imbere yayo nta byatsi bihari, isa naho bayijyana kuyiragira, bamara kuyicyura bakayishyira mu nzu yayo, bakazayisubiza kuyiragira nk'ejo.

Inka ifite amahembe manini cyane asa naho yayidahije amahembe niyo afite ubunini kurusha igihimba. Inka zigira amahembe manini ntizibyibuha, niyo mpamvu izindi bazica amahembe ukabona zimeze nk'impirima.

Ubucuruzi bw'inyama, inyama ziramanitse kugira ngo abantu baze kuzigura, inyama ziraryoha ,kuko zigira intungamubiri nyinshi mu mubiri ,abantu bose barazikunda kuko ziraryoha cyane.

Amagi ari mu bikoresho byabugenewe, amagi ni meza bayashyira mu tuntu tumeze nk'udutete, kugira ngo atameneka, buri gi rikaba riri ukwaryo mu kantu gafukuye, amagi ni meza agira intungamubiri nyinshi.

Inka nziza iryamye ibangaritse amatwi, iri kureba isa naho ari inyana. Inka ni nziza cyane ziteza abantu imbere. Abantu boroye inka aba ari umukire, kuko ntabwo yahura n'ikibazo cy'amafaranga, kandi akarya n'indyo yuzuye kubera kunywa amata.

Amagi y'inkoko arambitse hasi asa naho ari ku isoko. Amagi ni meza cyane agira intungamubiri. Haba iyo bayariye ari mabisi ubundi bakayarya atetse.

Inka zikunze kugira uburwayi aho abaveterineri bazaga kuzitera imiti mu ruterineri wambaye itaburiya y'umweru yambaye'agapfukamunwa k'umuhondo ari guterare inka urushinge kugira ngo urwayo ifite bukire.

Inka nziza cyane yitwa ikibamba, iri hafi y'kiraro cyayo inka y'ikibamba igira amabara y'umweru n'umukara, imeze neza cyane, ifite ibara ryiza, kandi inka nkizi ngizi zigira umukamo ushimishije.

Inkoko nziza cyane haba inkoko z'amasake n'izindi z'i nkokokazi n'izindi zo gutera n'izitarizo gutera, hari iziribwa amagi hari nizo barya inyama gusa, inkoko ziraryoha zigira inyama ziryoshye kurusha izindi nyama zose.

Imishwi y'inkoko isa neza ifite ibara rigiye kuba igitaka, isa naho iryamye isinziriye. Inkoko ni nziza zororoka cyane kuko za nyina ziterara amagi zigaturagamo imishwi.

Ingurube ni nziza cyane abantu barazikunda ,kandi zibyara cyane, zibyarira rimwe ibyana byinshi ,kandi zikabyara kabiri ku mwaka ,ni yo mpamvu abantu bazikunda ,ntabwo zashira mu gihugu, ariko kubera ko zororoka ntabwo bazirya ngo bazimare, akabenzi kayo kararyoha cyane abantu baragakunda.

Ingurube ni nziza cyane n'itungo rikunzwe cyane, kuko rigira inyama ziryoshye, akabenzi kayo kararyoha cyane abantu baragakunda, kuko kaba gafite vitamine nyinshi.

Ingurube ni itungo ryiza cyane. Abantu benshi bakunda kuryorora, ibyarira rimwe ibyana byinshi kandi ikabyara mu mwaka kabiri. Yonsa ibyana byayo, buri cyana kiba gifite ibere ryacyo.

Ingurube ziri konka nyina buri cyana gifite ibere ryacyo, ingurube nziza cyane irororoka kubera y'uko. , ibyarira rimwe ibyana byinshi mu ituro imwe kandi mu mwaka ikabyara kabiri

Ingurube ni nziza cyane. Ingurube iraryoha igira akabenzi keza, kandi ikagira n'ubworozi bushimishije kuko yororoka cyane. Ibyara abana benshi kandi ikabyara kabiri ku mwaka.

ikinyoni gisa n'igitaka, gifite umunwa wibirinduye usa n'umuhondo imbere usa n'umukara ,gifite amaso y'umukara, kiri kureba inyuma yacyo.

Inyoni ihagaze ku itabi ry'igiti isa n'umuhondo, ku mutwe ry'isunzu cy'umutuku. Ifite amababa kumukara kavanzemo ubururu n'umutuku.

Inyoni nziza cyane. Imanana yaremye inyoni zifite amabara atandukanye, inyoni ifite umutwe w'umuhondo n'umunwa w'umutuku, mu gihimba ni umweru, ihagaze ku giti, ifite n'umurizo w'umuhodo, hepfo ya wo ni umukara.

Inyoni nziza cyane zisa n'aho ziri gutoragura udusimba, zifite ibara ry'umutuku n'irigiye kuba nk'igitaka. Zifite amaso meza, kandi zimeze nk'aho zitonda, zihagaze ku duti two mu ishyamba.

Inkoko ni nziza cyane zikunzwe n'abatari bakeya kubera ko zigira umusaruro w'amagi zigira inyama ziryoshye kandi zikunze kuzana amafaranga, zifite amabara atandukanye nk'umutuku n'umweru.

Urukwavu ni rwiza rurasotamye ahantu rushinze amaboko, rubangaritse n'amatwi, rusa n'aho ruri kwikanga ikintu kigiye kurufata kugira ngo kirurye.

Inyamaswa nyinshi ziba mu ishyamba, harimo n'inkende, inkende isa ifite amabara y'umukara n'umuhondo, igiye kwitwara nk'ingagi, ariko yo ntoya, ingagi ibag ari nini.

Hari amoko menshi y'inyamaswa, hari igisimba kibundamye mu gashyamba, gisa naho gitegereje ikindi kintu kugira ngo kigifate. Kirabundamye cyonyine nta n'ikindi kiri kumwe na cyo.

Inyoni nziza cyane ifite ibara ry'umutuku ku ibaba kandi isa n'uburu, ifite mu maso hasa n'umuhondo, ifite igisunzu cy'umutuku, inyoni iri kureba mu kirere aho izindi nyoni ziri iguruke izisange.

Imana yaremye ibisimba bitandukanye. Habaho ibisimba byinshi biba mu ishyamba, bimwe bigiye kumera nk'ingagi ariko atari ingagi. Igisimba gisa n'ubururu kimeze nk'ingagi, ariko cyo gifite umurizo.

Agashuhe keza cyane ,kaba mu mazi gasa n'umweru dede, gafite umunwa muremure, karacyara akana gato, gafite amaguru maremare yigondoye, gatungwa n'iminyorogoto yo mu mazi.

Igishuhe ni ikinyoni kiba mu mazi, giforumwe nk'imbata. Kiba mu mazi, gitera amagi nk'ay'inkoko. Gifite umunwa muremure usongoye, kandi uratukura, akanwa kacyo ni umukara

Inkware ni nziza cyane ifite amaguru y'umutuku ifite amababa ajya gusa n'ubururu ifite umunwa utukura ihagaritse ijosi isa naho sinzi ibyo iri kureba, inkware ni nziza cyane barayirya.

Ibisiga bigerekeranye. Ikiri hasi giherereye hasi gisa n'umweru. Icyo hejuru gisa n'umukara. Gihagaze nko ku itabi ry'igiti riri mu mazi. Ibi binyoni bimeze nk'aho byari biri kurwana.

Ingurube isa n’igitaka, irahagaze isa n’aho idaze, ntabwo ibyibushye. Iri gucukura kugira ngo ibone ibyo irya, isa n’aho yabuze ibiryo.

Inyoni nziza cyane, ihagaze ku giti nk'itabi gifite ibara ry'umukara, inyoni nziza cyane isa n'umuhondo ifite agatwe gatoya, ifite n'umurizo w'umukara.

Agakoko bita igihunyira nicyo bita ikibugubugu, kiba mu makoma, gikunze kureba nijoro, ku manywa ntabwo kireba, kiba gihumye ariko nijoro hagera kikareba.

Umusambi ni inyoni nziza cyane uba mu gishanga, igira isunzu ryiza mu maso hayo hasa n'umweru n'ibaba rikaba umweru. Umusambi ugira ijosi rirerire ukunda kubyutsa abantu iyo bukeye.

Mu ishyamba habamo inyamaswa zitandukanye. Aho inyamaswa ihagaze mu ishyamba isa n'igitaka, imeze nk'aho ari inzovu. Irahagaze yonyine nta zindi nyamaswa iri kumwe na zo.

Imbeba bita sumbirigi ifite ibara rigiye kuba nk'igitaka ifite amaso manini ifite amatwi nkay' imbeba zisanzwe barayirya igira inyama zimeze nk'iz'urukwavu.

Igisimba wagira ngo ni intare kiri kureba ,kiraryamye ,gifite amatwi abangaraye, gifite ibara ry'igitaka ,gifite amaso y'umukara n'izuru ry'umukara ,irarakaye isa naho ifite ikintu iri gutekereza.

Igihangara ni agakoko kagiye kumera nk'uruvu, gakunda kuba ahantu ho mu mabuye, kagira igihanga kinini, gatera n'ubwoba kakurumye wapfa.

Ibisiga biri kuguruka, ibindi bihagaze ku itabi ryumye risa n'umukara. Biri mu kirere, iyo biri mu kirere biba biri gucunga ibintu biri hasi, kugira ngo bibisimbukireho, bize kubifata bibigurukane.

Igisimba gisa n'umukara, gifite amaso aturumbutseyo y'umukara ,gifite mu maso h'umukara, gifite ku mpande ibintu by'umweru bikikije mu maso, kiri kureba nabi, gifite amaso wagira ngo agiye guturumbukamo.

Inyoni nziza bita inuma, ifite ibara ryiza mu nda yayo hagiye gusa n'iroza, ifite amababa meza agiye kuba nk'ubururu, igihanga cyayo n'ubururu, umunwa wayo n'umuhondo, ifite amaguru y'umutuku.

Inka nziza cyane, iteze amahembe iraryamye. Ifite n'amatwi abangaraye, ifite ibara ry'umutuku. Iyi nka ifite ibara ry'umutuku bakunze kuyita ibihogo.

Inyoni zihagaze mu ishyamba zihagaze ku itabi ry'igiti. Ni nziza cyane, zifite amabara y'umukara n'umweru. Bisa n'aho ziri kureba mu kirere izindi nyoni iyo ziherereye. Inyoni zigira ubwoko bwinshi butandukanye.

Igisimba cyitwa inkura, gifite umutwe hagiye kumera nkah'intare, gikurura ba mukerarugendo gifite ibara ry'ikivuvu . Ba mukerarugendo iyo baje badusigira amadovize iyo baje kureba izi nyamaswa ziteye amatsiko.

Inkoko ni nziza cyane abantu barazikunda zigira inyama ziryoshye zigatera n'amagi. Abantu bakunda kuzorora kuko zikunda kororoka zitera amagi menshi, amwe bakayarya andi bakayarariza inkoko ngo zaruremo abashwi, ndetse andi bakayajyana mu isoko.

Igihunyira ini ikinyoni gikunze kuba m'umukoma, gikunze kuba mu ishyamba, iyo ari kumanwa ntabwo kireba, kireba nijoro, gikanuye amaso kandi ntikireba, kubera kigiye kumera nk'injangwe mumaso.

Icyana cy'ishya kirahagaze, kiri kureba. Gifite amaso y'umukara, mu gahanga kacyo hasa n'umweru udakeye, uruhu rwacyo ni umutuku havanzemo umweru. Ishya igiye kumera nk'ihene.

Akanyamasyo ni agasimba kagenda kari gukambakamba katazi kugenda, kagira mu mugongo hakomeye hameze nk'icyuma, niyo wakubitaho ishoka ntabwo wameneka ,akanyamasyo gakunze kugenda buhoro, ntabwo kazi kugenda.

Inyoni nziza ifite amabara y'umuhondo n'ay' umutuku n'ay'umukara, ifite umunwa usongoye w'ubururu, ifite n'amajanja y'iroza, ihagaze ku giti.

Igishuhe kirahagaze gifite umunwa muremure usa n'umutuku, gifite n'amaguru y' umutuku, gifite amababa y'umweru , gikunda guhagarara ku nkombe z'uruzi, kugira ngo kirye amahera cyangwa iminyorogoto.

Ikiyunguyungo ni ikinyoni kigira amaguru maremare kikagira n'ikijosi kirekire, n'umunwa muremure. Gikunda guhagarara ku mazi kugira ngo kirebe uko kirabona iminyorogoto. Ikiyongoyongo gikunze kwibera mu gishanga.

Umutubu usa n'icyatsi ,ufite amabara y'umukara, ufite n'ijisho y'umukara, usa nkaho uri gusimbuka uri kwerekera mu mazi. Umutubu ukunda mu mazi kuko ntabwo ujya hejuru, ibiwutunga byose biba biri mu mazi.

Inzovu ni inyamaswa ikunze kuba mu ishyamba. Zikunze gukurura ba mukerarugendo batuzaniye amadovize. Igihugu cyacu iyo kibonye amadovize, kirushaho kukora ibikorwa by'iterambere.

Ingagi ni nziza cyane ziba mu ishyamba zigakurura ba mukerarugendo, iyo ba mukerarugendo baje baza bazanye amadovize agateza imbere igihugu cyacu. Ingagi ni nziza kuko zigira umuryango zikabyara abana maze bakaza kuzita amazina.

Inyoni nziza yasamye isa naho itegereje nyina ngo iyitamike ibyo yagiye kuyihahira. Bisa naho aricyana gifite ibara ry'umuhondo kunda hejuru nu'mukara ifite igihanga cyiza cyane kigiye kuba nacyo umukara.

Inyamaswa yitwa inkura iba mu ishyamba. Ifite igipfupfu kinini. Ifite ibara ry'umukara. Ifite ibiguru bibyibushye nk'iby'inka. Ifite igitwe kimeze nk'ikibunduguru.

Injangwe ni agasimba gakunda kuba mu ishyamba, gakunze kurya imbeba. Injangwe iyo zibyaye, ibyana byazo birazita, bikigendera, ibyana nabyo bikajya kwishakira ubwabyo buzima.

Umusambi uhagaze. Ufite isunzu ry'umweru, umusambi ugira ikirokoroko, kandi ukunze kubyutsa abantu iyo bugiye gucya, uhagaze wonyine nta wundi uhari.

Ibisimba biri mu ishyamba bimeze nk'impara cyangwa Isha ,bifite umujosi muremure, imwe ijosi ryayo ririgondoye, indi ijosi ryayo yarihagaritse cyane.

Ingagi ni nziza cyane zikunda kuba mu ishyamba. Ba mukerarugendo bakaza kuzisura bakatuzanira amadovize agatuma u Rwanda rugera ku bikorwa by'iterambere kubera amafaranga batuzanira.

Agasimba bita urutoni gahagaze mu gashyamba, gafite amabara y'ibinyoronyombya. Umweru, umukara, gafite n'ikirizo kinini gisandaguje gisa n'umweru.

Akanyamasyo ni agasimba kagira umugongo umeze nk'urutare, wakubitaho n'kintu cy'icyuma ntabwo uwo mugongo wako wameneka. Akanyamasyo kagenda buhoro cyane ntabwo kazi kwihuta.

Inyoni irahagaze ku dutabi twumye iri kureba mu kirere, ifite ibara ry'umukara ,mu ijosi n'umweru, iri mu bwoko bw'ibisiga . Inyoni ziri amoko menshi , iyi iri mu bwoko bw'ibisiga, iba iri kureba ikintu irabona ngo ikirye.

Imbogo ziba mu ishyamba, zimeze nk'inka nini cyane, kuko hari inka zimeze nk'imbogo, zishobora kuba ari ho zakomotse. Imbogo barazirya, ziraryoha.

Ubwoko bw'igisiga buhagaze ku itabi ry'igiti. Igisiga cy'umukara gifite n'igisunzu ku mutwe wa cyo, gikunze guhagarara kiri kureba aho kirabona ibintu byapfuye hasi ku butaka, ngo kigwe yo kijye kubitoragura kibirye.

Inyoni nziza cyane ibereye ijisho ifite ibara ryiza cyane ry'ubururu, mu maso hayo isa n'umuhondo ifite n'isunzu ry'umutuku nziza cyane iruta izindi nyoni ubwiza.

Ingagi ziba mu mashyamba zikurura ba mukerarugendo. Iyo ba mukerarugendo baje kuzisura, bazaga bazanye amadovize, u Rwanda rukarushaho gukora ibikorwa byinshi by'iterambere.

Urukwavu rwiza cyane ruhagaze rubangaritse amatwi rusa naho ruri kumviriza ikintu rusa naho rugiye no kwiruka. Urukwavu ni akanyamaswa kabaga mu ishyamba, hariho n'izindi zororerwa mu rugo. Zigira inyama ziryoshye kandi zihendutse.

Ikiyongoyongo kigira ijosi rirerire, kikagira n'umunwa muremure, kikagira n'amababa y'umukara havanzemo n'ikinyoronyombya. Gikunda guhagarara ahantu ku mazi kiri kurebamo amahera, cyangwa se imisudwe n'iminyorogoto kugira ngo kibirye.

Inyoni iri kuguruka ifite amabara y'umukara n'ubururu ifite umunwa muremure, mu maso hayo hasa n'ikinyurunyumbya, iri kuguruka hejuru yayo hariho uduti n'indabyo zigiye kuba umutuku.

Igisimba cyo mu ishyamba kidakunze kuboneka mu bantu, biba byihishe mu ishyamba aho abakerarugendo, aribo bajya kubireba, batuzaniye amadovize, bakaduteza imbere, tukagera ku iterambere rirambye.

Ikiyongoyongo cy'umweru, ni cyiza cyane gifite ijosi rirerire gifite n'umunwa usongoye, gisa n'umweru dede gikunda guhagarara ahantu ho mu bishanga, hegereye amazi kugira ngo kibone iminyorogoto yo kurya.

Ishya ni igisimba cyo mu ishyamba kigira amahembe maremare. Gifite ifurume nk'iyi ihene. Ishya barayirya ifite ibara ry'igitaka, kandi na yo ba mukerarugendo iyo baje baraza baje kuzireba. Isha ni nziza cyane.